Abakunze gukora ubuhinzi, hari imiti yifashishwa yica udukoko tugiye dutandukanye twangiriza imyaka, bigatuma rero uyu muti urinda utwo dusimba, kuba twakomeza kwangiriza imyaka.

Umurima uteyemo umuceri. Usanga hari ibyuma byabugenewe, bigenda bifuhira cyangwa se birinda tumwe mu dukoko, dushobora kwangiriza uwo muceri, aho abakora ako kazi baba bambaye imyenda yabugenewe y'ubwirinzi.

Iyo ugeze mu gishanga usangamo igihingwa c'umuceri gikunze kuhirwa bakoresheje amapopo, barinda tumwe mu dusimba dushobora kwangiriza ugo muceri ugatuma udakura neza.

Mu buhinzi hakenerwa imiti myinshi ifasha ibyo bihingwa kugira ngo bibashe gukura neza, nk'ibirinda umugese mu gihe waje mu ngano, bafata uwo muti bakawuteramo bawita fentiyoni, ukaba utuma ingano zimera neza.

Ifumbire ikoreshwaga mu gutuma ibihingwa bigira ubuzima bwiza kandi bigatuma bizamuka neza, ni ifumbire nziza ikoreshwa mu bihingwa by'inyanya, amashu, ibihumyo ndetse n'imbuto zigiye zitandukanye.

Mu buhinzi hakunze gukoreshwamo imiti ifasha ibihingwa gukura neza ikarinda tumwe mu dusimba dukunze kwangiza imyaka, haba utuyirya amababi, ndetse n'uturya ibyamaze gukura.

Mu buhinzi hakomeje kugenda haterwa indi ntera mu gukingira imyaka y'ibigori kugira ngo barinde uburwayi bukunze kwibasira ibigori nka mongwa ikunze kubirya mu mitwe hanyuma bigapfa aho ubikingira aba yambaye imyenda imurinda.

Iyo bamaze kuroba amafi bayakusanyiriza hamwe kugira ngo babashe kuba bayageza ku isoko hanyuma abakiriya babashe kuba bayagura bagende bayateke hanyuma bayarye ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza.

Ifunguro ryiza riteguye neza rigizwe n'amafiriti ndetse na capati ,aho haba hariho na deseri kugira ngo imibiri ibashe kugubwa neza kandi imererwe neza.

Ifunguro rya mu gitondo riteguye neza bashyizeho ka salade harimo na tungurusumu, ndetse murabona igice cy'ironji gikase giteretse uruhande.

Iyo ugeze ku kiyaga， uhasanga ubwato bwinshi cyane，burimo bw'abarobyi， ndetse n'ubw'abandi batwara abagenzi，babavana mu bice bimwe babageza mu bindi， aho ubona ari ibintu biba binejeje cyane.

Mu biyaga bigiye bitandukanye no mu migezi ntitubura gusangamo ubwoko bugiye butandukanye bw'amafi, amafi akaba ari mu inyamaswa ziribwa ziba mu mazi, aho uyiroba akagenda ukayitegura neza, akabasha kuyiteka iba ifunguro.

Ifi ihiye ibiryoshye, uruhande rwaho ariho n'imbuto kugira ngo urya abanze amererwa neza mu nda. Ni ifi imeze neza cyane yateguwe neza.

Har'ibiyaga usanga hororerwa amafi matoya, aya mafi iyo amaze kurobwa arafatwa akajyanwa ku isoko akagurwa, akagenda agatunganywa neza, akaba ifunguro rifasha abantu kugira ubuzima bwiza.

Umurima umaze guhingwa kugira ngo ube waterwamo ibihingwa bigiye bitandukanye ,aho ibi bifasha ibihingwa kuba byakura ,kubera ko ubutaka babashije kuba babwubura.

Mu muririma wavuyemo imyaka akenshi usanga bororeramo amatungo magufi agiye atandukanye n'inama, ihene n'ibindi bitandukanye mbere y'uko bahinga.

Umurima gurimo guhingwa gwavuyemo ibigori aho hasigayemo ibisigazwa by'ibyo bigori, kandi bari mu gihe cyo kuguhinga kugira ngo babashe guteramo indi myaka.

Akayira ko mu cyaro kanyurwamo n'abagenzi. Hafi yaho haba hari ibyatsi byameze, ku buryo bigaragara neza, abantu bagenda bahagera bakaba barukihukira.

Umurima guteyemo amashaza cyangwa se amajeri, ku buryo umuntu utabizi ugira ngo n'umurima utateyemo ikintu, kuko usanga ago majeri garivanze n'ibindi byatsi bigiye bitandukanye.

Inturusu ni kimwe mu biti bikunze guterwa mu gihugu kuko bifasha mu kurinda isuri, kandi izi nturusu iyo zimaze gukura, zikoreshwa hubakwa ibiraro bimwe na bimwe, ndetse bikanaba byanabazwa hakavamo imbaho zifashishwa mu bwubatsi.

Hirya no hino iyo uhageze uhasanga inzitiro zubakishije ibiti bigiye bitandukanye, usanga urwo ruzitiro rukomeye, kandi nta wapfa kurusenya ngo yinjire.

Iyo ugeze cyane cyane mu ntara y'Amajyaruguru ntubura kuhabona imisozi myiza y'ibirunga nka Muhabura, Gahinga n'ibindi bigiye bitandukanye . Ntubura kuhasanga ndetse n'ubutaka buhinzemo imyaka itandukanye, aho usanga hari amatungo agenda yona iyo myaka.

Imurima uhinze wegereye ibiti bikuze cyane urimo amabuye makeya, kandi hirya yaho usanga hadahinze ubonanako ari agace kabuze imvura.

Umurima uteyemo karoti , karoti zitameze neza zabuze imvura ndetse harimo n'ibisigarizwa by'ibigori biteye, bishingiriye ibishyimbo biteye muri izo karoti.

Umurima guteyemo amoko menshi atandukanye y'ibyokurya isombe, amateke, ibitoki byose bifasha imibiri yacu kuba yamererwa neza kandi ikagira ubuzima bwiza.

Iyo ugenze cyane mu bice by'imisozi niho akenshi ukunze gusanga ibiti by'amapera byera imbuto akaba ari zo bita amapera ziribwa kandi zikaba ziryoha cyane.

Mu murima gudahinze gurimo amabuye menshi atandukanye ndetse hanateyemo hirya yaho ibiti, ubona ko ari umurima bigoye kuko kwera imyaka baguhinzemo.

Ubwatsi bw'amatungo buba busa icyatsi, ubwatsi inka zikunda cyane ikindi wirinda kubukura cyane kuko iyo bukoze cyane inka ntabwo zigukunda, biba byiza iyo uzibugaburiye bukiri butoya.

Ndabona umurima uteyemo ibirayi bitari byera, ibirayi byi'imbuto bita beko, nkabonaho n'ibiti by'inturusu uruhande rwawo.

Umurima uteyemo imyaka y'ibirayi bigeze mu gihe co kwera ,aho hagati harimo akayira kanyurwagamo n'abagenzi bakomeza bahita bigendera, inyuma yaho hariho imisozi myiza y'ibirunga imeze neza.

Umurima uteyemo amashu, ubona ko hari amashuri akiri matoya akeneye imvura kugira ngo abe yakura neza, abone gutanga umusaruro gushimishije, haba ku muhinzi wayateye.

Iyo ugeze mu murima uteyemo imyaka ntubura kuhasanga indi myaka igiye itandukanye yamezemo. Nk'amateke, insina, ibi nabyo bifasha umuhinzi kumva aguwe neza.

Umurima guteyemo ibirayi, ibirayi byabuze imvura kugira ngo bibe byaba byiza, iruhande rwaho harimo hariho akayira kanyugwagamo n'abanyamaguru kuko ni akayira gatoya kagaragara ko kumye cyane kubera kubura imvura.

Hirya no hino mu gihugu usanga imirima irimo ibijumba ubona bivanze n'ibyatsi byinshi, ubona ko byanze kwera cyangwa se byapfuye.

Umurima uteyemo imyaka y'ibirayi , imyaka igeze mu gihe cyo kwera gusa yabuze imvura kugira ngo bibe byatanga umusaruro ushimishije ku muhinzi wabiteye.

Umurima uteyemo igihingwa ca karoti aho ari karoti bigaragara ko zabuze imvura kuko zidatoshagiye, iruhande rwaho hari indi mirima idahinze.

Umurima gwegereye ibiti binini kandi gumaze guhingwa, ubutaka bwaho bwumye, biragoye ko ubwo butaka bwabasha gutanga umusaruro ushimishije.

Umurima wavuyemo ibigori utari wahingwa, aho uba usa nabi, bigaragara ko nta kintu na kimwe wawuteramo, mu gihe utari wawuhinga kandi n'ibitiba byaragurengeye nta kintu na kimwe cyabasha kuhera.

Umuririma uteyemo igihingwa cy'ibigori aho ubona ko byishwe n'izuba byabuze imvura kugira bibashe gukura bitohagiye ngo bibe byiza.

Mu masoko atandukanye y'igihugu, usangamo abaguzi ndetse n'abagurisha, baje gushaka cyangwa se kugurisha ibirayi byiza by'umutuku bita kinigi, aho ari ibirayi biba biboneye kandi biteye apeti.

Hirya no hino, aho usanga imirima bahingamo intoryi, ikaba ar'igihingwa kiba kimeze neza, kandi icyo gihingwa iyo kimaze kwera, baragiteka bakakirya kigafasha abantu kugira ubuzima bwiza.

Igihingwa cicayi kigeze mu gihe cyo gusarurwa aho ugisarura aba yambaye imyenda yabugenewe ndetse anafite igitebo mu mugongo kugira ngo abashe gushiramo ibyo arimo gusarura.

Abahinzi bari mu murima w'inya uteyemo inyanya, bishimira uburyo umusaruro umeze neza, kandi bashaka n'uburyo bazawugeza ku isoko.

Inzu bahunikiragamo imyaka y'ibigori imaze kwera, aho usanga harimo abaturage barimo gutonora banapfundika ibyo bigori. Nyuma bakaza kubimanika ku dutanda twabugenewe.

Iyo ugeze aho bacuruza imyumbati, uhasanga imyumbati myiza miremire kandi iryoshye, ku buryo iyo umukiriya iyo uyirebye wumva uyikunze ukifuza nawe kuba wayigura.

Mu misozi igiye itandukanye uhasanga ibikorwa byo guca amaterasi mu mirima ndetse hanaterwagamo ibiti bifasha kurinda isuri kugira ngo ubutaka bwe gupfa ubusa.

Abaturage bari mu murima barimo kuguhinga, kugira ngo imyaka yatewemo izabashe kwera neza ubona ko bishimye cyane, kubera uburyo imyaka yabo imeze neza.

Iyo ugeze mu rwuri ntubura kuhasanga ishyo ry'inka nyinshi ziri hamwe, bigaragara ko zivuye mu rwuri gufata ubwatsi cyangwa se kurisha, bakaziteranyiriza hamwe kugira ngo zibashe kuba zaruhuka kandi zibashe gushoka.

Umumama uri mu murima w'ibigori, ariho guharuraho amababi, kugira ngo imyaka y'ibigori ikomeze kugenda ikura neza.

Mu butaka buteweho igihingwa ca tungurusumu, aho zitegwa ku murongo umwe, kugira ngo zibashe gukura zimeze neza.

Ibimanyu bibiri bya avoka , voka isa umuhondo mo imbere ikaba ari voka iba iryoshye cyane ni uko irimo ikibuto kinini

Amagi gari mu gikoresho cyabugenewe, kugira ngo gabashe kuba gagezwa ku isoko, hanyuma abaguzi babashe kuyagura bagende bayake bagire ubuzima bwiza.

Umuhinzi uri mu murima gw'amashu aho yishimira umusaruro yari amaze kugeraho, aho afite, hari ishu rimwe riba ripima nk'ibiro bibiri arimo kuritwereka.

Avoka ni kimwe mu biribwa bikunzwe aho gifasha abantu kugarura utoto ku mubiri wabo, ndetse bikanabafasha kubona amavuta yo kwisiga, ndetse ikanaribwa, igatuma umuntu agira ubuzima bwiza.

Ku bantu bakunze kugera mu bihuru hirya no hino ntubura kuhasanga iri tunda rya kinyarwanda rigira urubuto rusa umuhondo mo indani tukaba ari udutunda tuba ari dutoya turyohera cyane.

Hirya no hino uhasanga indobo bacururizamo wotameloni, utabizi wagira ngo ni ibihaza ,ariko ni imbuto ziribwa ari mbisi zifasha umubiri kuwongerera ubushobozi ndetse zigakamura imyanda mu mubiri.

Abaturage iyo imyaka yeze y'ibirayi, biba ngombwa ko bajya kuyikura kugira ngo babashe kuyigeza ku isoko, babashe kuba babona amafaranga atuma batera imbere.

Henshi mu murima uteyemo ibigori, usangamo ikoranabuhanga rifasha kuhira imyaka, ribasha kuyihereza amazi kugira ngo iyo myaka ibashe gukura neza, iyo ari mu gihe cy'izuba.

Inzu ikorerwamo ibikorwa byo gutubura imyaka , aho usanga harimo ikoranabuhanga rifasha iyo myaka kuba yakura neza kandi ikazatanga umusaruro ushimishije.

Urubuto rwabukaka ni urubuto ruba rurimo amoko menshi, gusaturaza kugaruka ku ruba rusa umutuku, inyuma kuko ntavoka iba iryoshye cyane, ubona ko mu nda ibas umuhondo iryoshye.

Kugira ngo tugire ubuzima bwiza, ni ngombwa ko dutera imboga zidufasha kugira ubuzima bwiza ndetse zikanatwongerera vitamine mu mibiri ,aho dushishikarizwa gutera mu turimo tw'ibikoni.

Iyo ugeze mu murima uteyemo inyanya, ubona ari igihingwa cyiza cyane giteye ku murongo umwe, kandi usanga kiterera mu gihe kimwe, kuko hari izibanza kwera, izindi na zo zikazera nyuma.

Iyo ugeze mu murima uhinzemo ibishyimbo usanga byaratondagiye. Biba ari ibishyimbo byiza, bishimishije, kuko bigenda byizinguriza ku giti kugeza igihe bizatangira imishogi izavamo ibishyimbo, bikajyanwa ku isoko.

Umurima uteyemo amoko menshi atandukanye y'imbuto. Aho bakusanyiriza izi mbuto bakazikura hanyuma, bakajya kuzitera mu bice bitandukanye by'igihugu. Usanga ariho bazishyeshereza ahantu habugenewe hafite ubutaka bwiza.

Umurima uteyemo ibishyimbo bigufi ubona ari ibishyimbo biba bisa neza, mu gihe bitabashije guhura n'izuba, aho abahinzi bahora basura ubutaka bwabo kugira ngo barebe ko imyaka yabo iri kugenda ikura neza.

Mu rwego rwo kwegera abaturage abayobozi baba bari mu murima bafasha abaturage kuwuteramo imyaka igiye itandukanye, kugira ngo babashe kungurana ibitekerezo, ndetse banahabwe amahugurwa ajyanye n'ubuhinzi.

Umugore uteruye isuka gurutugu, uri mu kayira kanyurwamo n'abagenzi, kari hafi y'agashyamba gateyemo ibigori, kandi ubona ko yishimye cyane.

Umurima guteyemo imyaka y'ibigori aho bikenerwa kuhirirwa cangwa se kurindwa mu gihe cyabashije kwatakwa n'indwara ya nkongwa ikunze kwibasira ibigori.

Mu byaro ahantu hagiye hatandukanye ntubura kuhasanga abana baba bazerera bataye ishuri batakijya kwiga aho birirwa mu mirima y'abaturage barimo gushaka icyababeshaho.

Mu masoko atandukanye usanga bacururizamo ibirayi. Ibirayi kikaba ari ikiribwa gikunzwe cyane. Gikunze gukorwamo amafiriti ,sote, ndetse hamwe na hamwe usanga bakozemo imigati.

Ahantu hatandukanye ntihabura kuboneka umurima gutemo ibitoki ku rugo, ibyo bitoki bigafasha abagize umuryango kugira ubuzima bwiza kuko igitoki iyo keze baragitema bakagitonora bakakirya.

Mu Rwanda ni hamwe hakunze kugaragara igihingwa cya karoti, aho iki gihingwa gifasha abaturage mu kubona amafaranga abafasha mu gutera imbere, ndetse bikazamura n'ubukungu bw'igihugu. Kandi izi karoti zikaba zirinda indwara zigiye zitandukanye ku buzima bw'umuntu.

Mu murima uteyemo igihingwa cy'imyumbati, aho usanga akenshi zihingwa mu misoz,i mu butaka bukomeye cyane, kuko ari ho zikundaga kwera.

Umucuruzi uri kumwe n'abaguzi bashaka kugura ibisheke kugira ngo babashe kujya kubirya kuko byongera isukari mu mubiri.

Hirya no hino ahahingwa ibirayi, uhasanga imbuto nziza ya kinigi, aho iyo iri mu mufuka ubona ari ikirayi kinini cyane giteye amatsiko, kandi ku buryo wumva wifuza kukirya.

ku isoko bacururizamo ibirayi aho usangamo amoko menshi y'ibirayi harimo ibya kinigi, peko, kuruseke, kirundo ugasangamo n'abaguzi benshi baza kugura ibyo birayi.

Igihingwa cy'indimu ni igihingwa kidakunze kuboneka cyane, aho usanga aho giteye kiba gitoshye cyane ku buryo ukibona atapfa kubimenyako hari indimu zirimo.

Amateke ni muri kimwe mu biribwa bikunzwe, kuko amateke afasha umuntu kugira imbaraga, kandi agafasha umuntu kumva aguwe neza mu mubiri, kuko akungahaye kuri vitamine zigiye zitandukanye.

Mu rwanda usanga hari henshi hahingwa imbuto bita ibihaza akaba ari imbuto ziribwa ziryoha cyane ahosanga abenshi bakunda gukoresha ibihaza kugira ngo babashe kugira imbaraga.

Mu muririma uteyemo igiti cya avoka basasiye ndetse bagiha n'ifumbire kugira ngo kibashe kuba cyakura neza kandi kizatange umusaruro mwiza.

Umurima gw'ibirayi guhagazemo umumama ufashe telefone, yishimira uburyo ikoranabuhanga rikomeje kuba nyambere, mu gushaka ibigezweho mu buhinzi.

Umurima uteyemo ibiti by'umwumbati , imyumbati ni kimwe mu bihingwa bikunzwe aho usanga iyo imaze kwera, bayirya bayitetse cyangwa se bakayijyana ku isoko bakayishesha ikavamo ubugari buryoshye cyane.

Umurima uteyemo ibigori bihetse bigeze mu gihe cyiza, ubona ko ari ibigori biteye ku murongo umwe kandi biboneye bizatanga umusaruro ushimishije.

Umurima uteyemo imyaka y'ibigori, aho usanga hataburamo abahinzi baza kwita kuri iyo myaka bayibagarira, kugira ngo ibashe gukura neza izatange umusaruro gushimishije.

Umurima gw'ibigori gurimo umugabo wambaye ingofero, arimo kureba uko gwibasiwe n'indwara ya mongwa ikunze kwibasira ibihingwa by'ibigori.

Ibijumba byifashishwa mu gufasha imibiri yacu kugira ngo ibashe kugira ubuzima bwiza. Hari ibijumba bisa umutuku ndetse n'ibijumba biba bisa n'umweru bita ibya Mugorora.

Ubuhinzi bw'urusenda，ni ubuhinzi buteye imbere muri iyi minsi， aho usanga urusenda iyo rumaze kwera rusarurwa， rukoherezwa hanze mu mahanga， hanyuma umuhinzi akabasha kubona， amafaranga menshi.

Igihingwa k'ibirayi gikunze guhingwa ahantu henshi , usanga abenshi bakunda guhinga ibirayi bita kinigi kubera ko bikunze kuryoha kandi bikaba ari ibirayi biba bikomeye, uwabiriye yumva akomeye cyane.

Abaturage bari mu murima utarimo ikintu, aho bari bamaze kuguhinga, kugira ngo babashe kuba baguteramo ibiti bigiye bitandukanye, by'amoko atandukanye bizafasha abaturage.

Umurima uhinzemo icyayi usangamo abantu barimo gusarura baba bambaye imyenda y'umuhondo yabugenewe, ndetse bakaba bahetse ibitebo bagenda basaruriramo icyo cyayi biri mu mugongo wabo.

Igiti ca voka kirimo voka zitari zera ariko ubona ko ziboneye neza cyane. Izi voka zibura igihe gitoya kugira ngo zibe zeze.

Inkoko za kizungu aho zitegurirwa ahantu hamwe ho kurira, ndetse bakazishakira n'igiheri kugira ngo zibashe kurya neza zitange umusaruro ushimishije.

Umurima uteyemo ibigori, aho bigera mu gihe cyo kubyuhira bagakoresha ifumbire, kugira ngo bibashe gukura kandi babirinda indwara, bikanakura bibyibushye.

Inzu ikorerwagamo ubuhinzi bugezweho, bumwe bwifashisha ikoranabuhanga buba bwubatse ku buryo izuba ribasha kugera muri iyo nyubako neza cyane.

Ihene ihagaze mu kibaya, ni ihene yo hambere ifite ubwoya bumeze neza n'amahembe maremare cyane, aho yabaga inafite ubwanwa ubonako ari ingabo rwose yakuze.

Abashinzwe ubuhinzi ni ngombwa ko batambagira bimwe mu biti byatewe, kugira ngo babashe kureba uburyo bimeze niba nta ndwara ziri kubifata, ndetse banashake ubundi buryo bwo kubibungabunga kugira ngo bikure neza.

Iyo ugeze mu masoko atandukanye uhasanga imbuto zigiye zitandukanye, inanasi, amaronji n'ibinyomoro, byose bifasha umubiri kumva uguwe neza.

Hirya no hino uhasanga imirima iteyemo intoryi, Intoryi zikaba ari igihingwa gifasha abaturage kwizahura mu bukungu, ndetse bakabasha gutera imbere.

Bamwe mu bakora ibikorwa byo guhinga indabo, bifashisha amazi anyuze mu matiyo kugira ngo babashe kuhirira izo mboga ndetse n'indabo kugira ngo bikure neza.

Inzu icururizwagamo ibintu bigiye bitandukanye, ibyo kurya byo kunywa ndetse n'amoko atandukanye y'ibikoresho, aho umwana agaragaza ko yifuza umuneke.

Iyo igihe k’ihingwa cyageze，usanga imirima myinshi barimo kuyiteramo imyaka， kugira ngo ibashe gukura neza， kandi izatange umusaruro ushimishije， aho banifashisha ifumbire yabugenewe.

Hirya no hino usanga inyubako zikorerwamo ibikorwa byo gutubura imbuto kugira ngo izo mbuto zibashe kuhakurwa zijyanwe mu mirima guterwa abaturage babashe kubona umusaruro ushimishije.

Umumama uri mu murima w'ibirayi bitari byera ,afite telefone arimo kwishimira uburyo ikoranabuhanga rimaze kugera mu bintu byose, haba ubuhinzi mu gushaka amakuru ndetse no mu buzima busanzwe.

Igihingwa cy'amateke, amateke akoreshwa mu gufasha imibiri yacu ayongerera intungamubiri. Akaba yongera imbaraga mu mubiri w'umuntu, ndabona rero ari amateke ane harimo rimwe rikasemo kabiri.

Igihingwa ci'bishimbo bigufi, aho cyeze ni ibitonore bishimishije cyane, aho umuhinzi yitegereza umusaruro we akishima cane.

Umurima uteyemo imyaka y'ibirayi ikiri hasi, imyaka imeze neza aho iyo myaka ikenerwa gufuhirirwa kugira ngo babashe kuyirinda indwara zigiye zitandukanye.

Iyo ugeze mu bishanga, usanga hari abari gusarura umuceri bawugosora, kugira babashe kuwutunganya ubashe kuba wagezwa ku isoko umeze neza, babashe kubona amafaranga atubutse.

Igihaza kimwe mu rubuto ruribwa, urubuto rwiza cyane ruryoha, aho usanga akenshi rwarakundaga gukoreshwa hambere, usibye ko no muri ibi bihe rukoreshwa. Kikaba mo indani iyo kimaze gushya kiba gisa umuhondo.

Umurima gw'ibigori bihinzwe ku buso bunini cyane, inyuma yaho hariyo umugezi, nkabona n'ikirere cyiza cyane, nkabona n'ibi bigori bigeze mu gihe cyo kuba bimeze neza.

Igihingwa cy'imiteja iyo kimaze kwera bagikusanyiriza hamwe kugira ngo kibashe kuba cyagezwa ku isoko , haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo.

Aho bacururiza imyaka hamwe na hamwe ntubura kuhasanga bimwe mu bikoresho bya gakondo, byifashishwaga barenga nk'amagemeri, amabakure, ibi bikaba ari ibikoresho byafashaga abantu gupima kugira ngo batabasha guhendana.

Mu mirima myinshi iyo ugezemo usanga hateyemo ibishyimbo, aho iyo ibishyimbo byanze kuma habaho igikorwa cyo kubikuraho amababi, kugira ngo izuba bibashe kubigeraho neza, ribashe kuma.

Ahantu hateye imbere usanga hari ahabugenewe mu buhinzi, hagomba guhunikwa imyaka yabashije gutunganywa kugira ngo ibashe kuba yakuma imere neza, ibone gupakirwa igezwe ku isoko.

Ubuhinzi bwa tungurusumu ni ubuhinzi bukomeje kugera butera imbere, aho mbere yo kuzitera babanza bazihungura, hanyuma bakajya bazanika kugira ngo zibashe kuma. Ni bwo zibasha kumera byihuse.

Iyo ugeze hirya no hino mu gihugu usanga hari ahateye amoko menshi y'ingano, aho ingano zitumye neza iyo bazihuye zanga kuva mu gishishwa, zikagumamo bigasaba ko zibanza zuma neza.

Mu Rwanda rwo hambere wasangaga abantu bagenda bahanahana ibyo kurya, nk'ibishyimbo bifashishije uduseke, twabafashaga kurengamo iyo myaka.

Intara bagosoreraho imyaka igiye itandukanye harimo: ingano, amashyaza, amasaka n'indi myaka itandukanye kugira ngo ibashe gutegurwa neza igezweku isoko.

Isoko bacururizagamo imyaka itandukanye, ibishyimbo, ibigori, ibitoki ndetse n'ibikoresho byifashishwaga mu rugo, harimo amabase, indobo, amasahane n'ibikapu bitandukanye.

Igihingwa cy'ubunyobwa abenshi mu bakunda kurya ubunyobwa, babanza babukuraho biriya bishishwa by'inyuma biba bisa umu umutuku, kugira ngo babashe kurya ubunyobwa bumeze neza kuko hari abavuga ko bibatera igifu.

Mu Rwanda ni hamwe hahingwa amoko atandukanye y'ibigori, aho biba bifite amabara agiye atandukanye, amabara abereye amaso ku buryo iyo urebye icyo kigori usanga wahita ukirya, hari ibisa n'umutuku bivanze amabara agiye atandukanye.

Iyo ugeze ahantu batera ibigori cyane，uhasanga ahantu habugenewe ho kwanika ibyo bigori， dore ko bamwe usanga babyanika ku mahema， kugira ngo bibashe kuba byakuma neza.

Aho bacururizaga ibinyampeke bigiye bitandukanye soya ,amasaka usanga barengesha bimwe mu bikoresho byo hambere e kugira ngo umuguzi n'umugurisha babashe kumvikana neza.

Igihingwa cy'ubunyobwa ni igihingwa gikundwa cyane, aho kizanira uwagihinze amafaranga ashimishije, kandi n'umuguzi akakigura yishimye, kuko ni igihingwa kiryoha iyo ukiriye.

Kera hari intara n'ubu zigikoreshwa bagosoreragaho imyaka igiye itandukanye, nko kuharobanurira umuceri kuharobanurira ibishyimbo, ndetse n'indi myaka kugira ngo ibashe kuba yasa neza.

Umurima uteyemo imyaka y'ibishyimbo, aho babishingirira kugira ngo bibashe gutondagira, bibashe kugera mu bushorishori maze bitange ibishyimbo byiza kandi byinshi.

Hirya no hino uhasanga ahabugenewe hahunikwa imyaka nk'ibigori igihe bimaze kwera, hari udutanda twabugenewe bagomba kubimanikaho, kugira ngo bibashe kuba byakuma neza.

Bimwe mu bice bihinga amajeri ni igihingwa kiba kimeze nk'indabyo aho abatabizi badashobora kubimenya iyo rero amaze kwera amera gutya aba asa nk'umweru.

Inyubako babikamo ibiribwa bigiye bitandukanye nk'umuceri, kawunga, aho usanga iyo myaka ipanze ku buryo bwiza bufite isuku kandi bwizewe, kugira ngo imyaka itabasha kwangirika.

Ababyeyi bicaye imbere y'imyaka bari bamaze gutoranya, bambaye kimwe ku buryo nta n'umwe ugaragaza umusatsi we usibye umwana uri kumwe nabo.

Iyo ibishyimbo byeze bimaze kuma, barabihura kugira ngo babitandukanye n'ibishogoshogo. Hanyuma ibishyimbo bakabigosora bakabasha kubigeza ku isoko, bakabasha kubona amafaranga.

Hirya no hino uhasanga imirima iteyemo ibigori byeze, kandi ubona ko bimaze kuma, bigeze igihe cyo kuba byasarurwa bigatunganywa, bikagezwa ku isoko.

Hambere ni ho twabonaga ibihaza babikuramo inzuzi. Inzuzi zakoreshwaga kugira ngo babashe kuzitera zizongere zibyare ibihaza, ariko aho muri iki gihe zitagikoreshwa ahubwo abantu bazijugunya.

Mu bice by'ibyaro iyo bejeje ibishyimbo bita bigufi, akenshi usanga babimanika munsi y'ibaraza ry'inzu, kugira ngo bibashe kuba byakuma neza, babone kubihura babigeze ku isoko cyangwa babirye.

Mu bishyimbo hari amoko agiye atandukanye y'ibishyimbo, aho tubonaho ibishyimbo by'umukara, ibishimbo by'umweru, ibishimbo by'ubururu, n'ibishyimbo bigiye gusa umukara.

Imbuto z'ingano, ingano batumbitse zikabasha kuba zamera, aho ari zimwe zamaze kuba nkuru, izindi zikiri ntoya, izindi ziri mu kigero co hagati.

Imyaka y'ibigori imaze gusarurwa igatunganywa igashyirwa hamwe mu bubiko, kugira ngo ibashe kuma neza hanyuma izabone ubuhungurwa, ibone kujyanwa ku isoko umucuruzi abone amafaranga.

Abaganga barimo gukingira amatungo yifashishwa mu gucunga umutekano bita imbwa abandi bakayita impigi, kugira ngo mu gihe yaba arumye umunu namutere ubusabwe bwamutera kuba yahaburira ubuzima.

Inzu bororeramo urukwavu, aho bayita ikibuti, usanga harimo udukwavu twiza, kandi dusa neza ku tw'umweru, akaba tuba ari udukwavu dukunzwe cyane, kandi twitonda.

Iyo ugeze mu byaro ntubura gusanga ahantu haziritse amahene, amahene ni amatungo matoya yororerwa mu rugo akenshi, kandi amahene akaba atanga umusaruro k'uyoroye mu gihe kitarambiranye.

Ingurube eshatu ziri mu kiraro gisa nabi cyane bigaragara ko zidakorerwa isuku ihagije kugira ngo zibashe kuba zagira ubuzima bwiza.

Urwuri rurahantu heza cyane, rurimo inka imwe gusa n'abashumba batatu baragiye iyo nka, kandi barimo kwishakira ubwatsi.

Abaveterineri barimo gukingira inka kugira ngo zirindwe indwara zigiye zitandukanye kandi banambaye udupfukamunwa banambaye ga mu ntoki zabo.

Iyo ugeze ahantu bororera inkoko, usanga inkoko nyinshi cyane zimeze neza, kandi zateguriwe uburyo zigomba kuryamo imyaka cyangwa se ibizitunga, ndetse n'ahabugenewe zijya guterera amagi.

Inka zororerwa mu rwuri, usanga ari inka zibyibushye, inka zimeze neza, zitagize uburwayi kuko zibona ibintu byose kurusha inka zororerwa mu biraro.

Iyo ugeze hirya no hino usanga ahantu hororerwa intama. Intama akaba ari itungo rigufi ryororerwa mu rugo, aho ribamo amoko menshi. Intama zisa umukara, izisa umweru, zose zitanga umusaruro mwiza.

Girinka munyarwanda ikomeje kugenda igera kuri bose, aho buri muturage ahabwa inka izajya imufasha kubona ifumbire, ndetse akanakamira abana be amata yo kunywa.

Abanyeshuri iyo barimo kwiga uburyo bwo kubaga cyangwa se gukingira amatungo, biba byiza iyo banakoreye ku nyamaswa nzima, bakaza bakayibaga bakabasha kumenya bimwe mu bigize inyamaswa runaka.

Ni ishyamba tuzi abo mu Rwanda, dusangamo inyamaswa zitandukanye nk'ingagi. Zikunze gukurura ba mukerarugendo, aho zikunda kuba zibereye ku biti bita imigano.

Inyoni irimo gushaka ibiyitunga mu rurabo, ni inyoni isa icyatsi, ni nziza cyane. Inyoni ikunda kuguruka igihe kirekire mu kirere itananiwe.

Mu bagenda mu bihuru, ntubura kuhasanga ibikeri biba bigonga, bigendagenda hirya no hino, hagihe hatandukanye, byari inyamaswa igenda isimbagurika.

Hirya no hino mu bice by'igihugu uhasanga inuma zirimo zitembera zishaka ibyo gutora ngo zirye zibashe kuba zabaho, kandi usanga ari inuma ziboneye, zibyibushye, zibereye ijisho.

Itungo ryororerwaga mu rugo bita imbata, ikaba itera amagi atunga abantu, ndetse ikaba ari n'inyamaswa nziza yororerwaga mu rugo, kugira ngo ibashe gutanga umusaruro.

Inyoni y'umukara ifite ijisho ry'umweru, ikagira akanwa k'umuhondo, ikagira n'amaguru y'umutuku, ihagaze ku giti cyiza cyane ahantu mu kibaya.

Inyamaswa ntoya cyane bita urwumvu, igenda ihinduranya amabara bitewe n'aho igeze. Inyamaswa igendaga toya, inyamaswa ikunda gushira umugongo gwayo hejuru.

Mu Rwanda ahantu henshi hakunze kuba amazi ntitubura kuhasanga inyoni nziza cyane, ziba zishimishije zaje kunywa amazi ,zimwe ziba ziri mu ibara ry'umweru zikeneye kuba bazabona amazi yo kuzibeshaho.

Mu mashyamba atandukanye, nt'ubura kuhasanga inyoni nziza cyane, zaba zifite amabara y'umukara, avanze n'umuhondo, ndetse n'umutuku. Ikaba ari inyoni ikunda kuguruka gakeya cyane.

Iyo ugeze mu ishyamba ntiwabura kubonamo inyamaswa zigiye zitandukanye nk'inkende, akaba ari inyamaswa ikunda kurira cyane, ikanakunda gusimbuka, iba ifite mu umurizo ikunda kuba yasize inyuma.

Inyoni isa ubururu, ifite akanwa k'umuhondo, ikagira ibishuki hejuru by'umutuku, iri ku giti ihategereje, igiti cyiza.

Henshi mu bihuru ntubura kuhasanga imbeba, akaba ari agasimba gatoya gakunze kurya imyaka ndetse ukanasanga karya n'imyenda, kakarya ndetse n'utundi dusimba tugiye dutandukanye.

Mu Rwanda rwo hambere rwakundaga korora inyamaswa bita urukwavu, akaba ari inyamaswa nziza cyane ikunzwe kandi inyamaswa yaribwaga, aho kuri ubu uzisanga hakeya.

Iyo ugeze mu mashamba ntubura kubonamo inyamaswa zigiye zitandukanye nk'inkende aho ziba zifashe abana bazo zibishimiye kuburyo ziba zibarindiye umutekano nta muntu wabasha kubakoraho.

Iyo ugeze mu ishyamba usanga amoko menshi y'inyoni aho habamo inyoni isa ubururu iyo nyoni ikaba ikunze gufata ibikeri ikabirya kuko ari ryo funguro ryayo.

Hari inyoni bita igihunyira, ni inyoni idakunze kumva igira amatwi mabi cyane, ku buryo ushobora no kuyegera ubu wendaga kuyifata, ni inyoni iba isa umweru cyangwa se isa umukara, ni mu bwoko bw'ibisiga.

Mu mashyamba atandukanye uhasanga inyoni zifite umunwa muremure ziba zisa n'umukara ,zikaba ari inyoni zakunda kuguruka cyane mu birere bitandukanye.

Iyo ugeze mu mashyamba cyangwa se mubirunga by'urwanda ntubura gusangamo amoko menshi y'inyamaswa twasangamo nk'ifumberi inyamaswa igiye kumera nk'ihene igira amahembe maremare cyane.

Agasimba bitaga agacurama kagira amababa agiye kumera nk'umukara , agasimba kabi cyane kuko iyo kabashije kuba kakuruma kagutera ubukana ,ubumara bwakwangiza.

Iyo ugeze mu ishyamba cyangwa se ahantu hatandukanye ntubura kuhasanga amoko y'inyoni zigiye zitandukanye, aho inyoni ari agasimba gatoya, gafite amaguru abiri, kagurukira ku mababa, usanga kameze neza kandi gateye amatsiko.